Aba ni abantu bambaye udupfukamunwa n'ingofero mu mutwe. Hariho uhagaze yambaye agapfukamunwa k'umweru n'ishati y'ubururu ari kubareba.

Umurima w’ibihingwa bitandukanye, ibigori n’imboga. Imboga zifite amababi y’icyatsi agandaye, mu mutwe wazo zifite ibara ry’umuhondo. Ibigori bifite agati gatoya, amababi yabyo ni maremare, ibi bifite n’umuterero hejuru usa n’umukara.

Umurima urimo imyaka y'amateke ameze neza cyane, afite amababi agandaye y'icyatsi, akagira igiti cy'umukara. Hejuru yayo hari umugabo uri kuyitegereza, ufite inda nini, atereye ikote ku rutugu, ari kureba niba yeze kugira aze kuyasarura.

Ururabo rumeze neza cyane, ruteye ahantu hakoreye hafite isuku rufite ibara ry'icyatsi, mu mutwe warwo rukagira ibara ry'umutuku, ni ururabo rusa n'umuhondo rukoze uruziga, ruri ahantu heza bararukoreye bashyiraho ifumbire ruratoshye cyane.

Indabo zifite ibara ry'umutuku, zikagira amababi abyibushye cyane, zikagira akumba gatoya n'amababi avanze amabara, umweru n'umutuku. Ziri ku gati kananutse cyane, zirambitse ahantu hasi ku butaka.

Umurima w'ibyatsi byinshi bicecetse cyane. Harimo ibinini n'ibigandaye, bifite amababi y'icyatsi. Ku buryo umuntu yihishemo ntawapfa kumubona. Urebeye hakurya ukabona ni ibiti bivura neza.

Indabo nyinshi zihinze ku buhagarike zifite amabara atandukanye. Ibara ry'icyatsi, umutuku, n'umuhondo n'iroza ziri ahantu hamwe hameze neza ku biti bigandaye cyane.

Igihingwa gihinzwe mu mabuye gifite ibara ry'icyatsi. Gifite amababi agandaye, mu mutwe wa cyo gisa n'umuhondo. Impande yacyo hari ingabo ngufiya hari n'ibigori bihahinze birebire, n'ibiti bya shipure.

Ibi ni ibimera bifite ibara ry'icyatsi. Hari ibigufi n'ibirebire. Ibirebire bifite indabo, ibigufi nta ndabo bifite.